Aha ni kuri gurupe sikolere Kampanga mu Kinigi . ikigo kirasobanutse ubu cyazanye n'ibintu by'amasiyansi kandi abana bari barabuze ahantu ho kubyigira mu Kinigi.

Vino ibi ni ibiyoga by'abakire biba bihenze, bakunze kubikoresha no mu birori , kugira ngo binywere bizihirwe hanaturika cyane.